Ibyicundebo cyangwa ibintu ibikoresho bitanga umunyenga, ibi bigaraga ahantu haba amashuri y'abana, cyangwa mu mahoteli ahantu hose abana bajya kwishimishiriza, bakaba babijyamo bikabahesha umunyenga bakaba bishyura amafaranga ababyeyi b'abana.

Abanyeshuri bambaye imyenda isa, ubona ko bari kwiga kudoda bakoresheje imashini yabugenewe izwi nk'icarahani, hagati mu ishuri n'umwarimu ubahagarikiye ubere kera.

Ishuri ryigisha umwuga wo kudoda. Hakaba hajyamo urubyiruko cyane cyane rwacikirije amashuri, rukiga umwuga wo kudoda utuma biteza imbere, kuko badoda imyenda y'abaturage n'ahandi hantu mu mujyi no mu cyaro.

Umurima urimo amateke, imyumbati , insina n'ibindi bihingwa bitandukanye hakaba imyumbati ari igihingwa cyerera mu butaka cyo kimwe n'amateke byose bikaba ari ibihingwa biribwa, kandi bikaba bikungahaye kuri vitamini bitera imbaraga.

Umunyeshuri uri mu ishuri, uri kwiga afite amakayi cyangwa ibipapuro biriho ibyo kwiga imbere ye, ari n'abandi banyeshuri bigaragara ko batuje bari kwiga bafite ikizamini cyangwa bari kugikora, afite n'imbere ye n'imashini ikoreshwa mu guteranya.

Ishuri ririmo intebe, ikibaho n'ibindi bishushanyo bigaragara ko iri shuri ari iry'abana b'incuke, ririmo udutebe duteye amarangi n'ibendera ry'u Rwanda. Rikaba rishushanyijeho ibishushanyo, hari imibare n'inyuguti imbere ku kibaho cyifashishwa bari kwigisha.

Umu mama uri mu ishuri uri kwigisha abanyeshuri bicaye mu ntebe bafite amakayi nini fomu bambaye, harimo abakobwa biteze ivara baba ari abayisiramu cyangwa ababikira.

Abantu bafite imashini, igikoresho cyitwa icyarahani, kikaba ari igikoresho cyifashishwa mu gihe abantu bari kudoda ibintu bitandukanye. Iyi mashini idoda imyenda n'ibindi bikoresho nk'ibikapu, n'ibindi bikenera kujyamo indodo.

Abafundi cyangwa abandi bantu bambaye ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi, byiganjemo imyambaro ibi birinda abantu gukomereka cyane cyane ku mutwe, mu gihe hagira ikintu kiva hejuru ku nyubako kikagwa cyangwa bo baguye hasi kikabarinda gukomereka ku mutwe.

Laboratwari cyangwa icyumba abanyeshuri bajya kwigiramo ibyo biga. Aha bari kwiga ibyo gukanika ibyuma by'ikoranabuhanga nka" mudasobwa, telefoni, amatara, n'ibindi". Bakaba bakoresha ibyuma by'amashanyarazi bari kwiga uko bazajya bakora mu gihe kizaza.

Ikigo cy'ishuri kibamo abanyeshuri bambaye iniforume akaba ari ahantu hajyanwa abana bakiga, bagakurayo ubumenyi butandukanye, hakaba habayo abarimu, abayobozi n'abandi benshi bafasha abanyeshuri kwiga neza.

Abanyeshuri cyangwa abantu bahagaze impande y'igipironi; akaba ari ipoto rinini rinyuzwaho insinga z'amashanyarazi, bakaba bahahagaze bambaye bote, amasarubeti asa; bigaragara ko ari nk'abanyeshuri bari gukora isuzuma cyangwa bari kugerageza ibyo biga.

Abanyeshuri bari mu ishuri biga ibintu bya tekiniki byo gukanika bafite ibikoresho byifashishwa muri tekiniki birimo torunovisi, ipensi n'ibindi byinshi bari mu ishuri ririmo intebe, ameza n'abarimu bari kubafasha kwiga.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyane cyane bikoreshwa mu gukanika, cyangwa mu kwiga gukanika, hakaba higanjemo ibikoresho bakoresha mu mashanyarazi no mu bindi byuma by'ikoranabuhanga, byagira ikibazo bakabikanika bigatuma byongera gukora nk'uko byakoraga.